Ibikorwa remezo biri mu bintu bifite umumaro munini mu mibereho y'abaturage, bimwe mu bikorwa remezo bifatika kandi bikora igikorwa kinini mu mibereho y'abaturage, ni nko kwegereza amazi meza abaturage, aho birinda kuvoma amazi y'ibiziba, amwe abatera indwara bigatuma bahora mu ma vuriro.

Ubuzima bw'umwana bukwiye kwitabwaho kuva umubyeyi akimutwita, ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda igenda yegereza abaturage ibigo bishinzwe kwita ku babyeyi batwite kugira ngo banagabanye umubare w'abana bapfa umunsi ku munsi.

Ni byiza yuko ibigo bitanga serivisi z'ubuvuzi byegerezwa abaturage. Ni muri urwo rwego u Rwanda rwiyemeje kwegereza abaturage ibyo bigo bitanga izo serivisi. Kuko hari abaturage benshi barwaragurika bamwe bakanabura ubuzima, kubera kubura ubwo bufasha. Ni muri urwo rwego bagenda bakomeza kwegereza abaturage ibyo bigo bitanga serivisi.

Si byiza y'uko abantu bafite indwara zo mu mutwe bahabwa akato na bagenzi babo, ahubwo birakwiye y'uko abo bantu bafite ibibazo byo mu mutwe bakusanwa bagashi hamwe. Bagashakirwa abaganga babaganiriza, ndetse bakagira n'umwanya wabo wihariye wo kuba ba bakakirirwamo. Bakasha kumva ndetse no gusobanukirwa ibibazo byabo.

Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane hagiye hagaragara imibare myinshi y'abafite ibibazo byo mu mutwe bitewe n'ibikorwa byagaragaye muri iyo Jenoside. Ni muri urwo rwego hakomeje kugenda hashingwa ibigo bitandukanye byo kuvura abantu bafite ibibazo byo mu mutwe kuko na bo bakeneye ubwo bufasha bubafasha gutuma bamererwa neza.

Umubare w'abafite ibibazo byo mu mutwe urarushaho kwiyongera muri ino minsi, ni byiza yuko abo bantu bafite ibibazo byo mu mutwe bashakirwa abaganga babuhariwe ndetse babugenewe wo kubitaho, bakabaganiriza kugira ngo barusheho kumenya igitera icyo kibazo cyo mu mutwe ndetse hakaba hakigwa n'uburyo bwo kugabanya umubare ugenda uboneka umunsi ku munsi.

Ni byiza ko tumenya kwita ku ndwara z'akanwa, kuko zandura vuba kandi mu gihe gitoya, by'umwihariko dukwiye kwita ku bikoresho dukoresha iyo dusukura mu kanwa, tugomba kumenya nimba uburoso dukoresha bwujuje ubuziranenge, yewe n'umuti w'amenyo ku wujuje ubuziranenge, ikindi n'aho tuborosereza ese hafite isuku ihagije? Ibyo nibyo tugomba kwitaho mu gihe turimo turaborosa.

Abantu benshi ntabwo bazi uburyo bashobora kwita ku kanwa kabo kandi mubyukuri akanwa ni mu bice bimwe byoroshye byandura indwara nyinshi kandi mu gihe gitoya ndetse bunajimije, ni byiza yuko abaganga batanga inama ku bijyanye no kwita ku kanwa k'umuntu kuko bitera indwara nyinshi bitandukanye ugasanga bigeze no mu bindi bice by'umubiri.

Akanwa k'abana bato kandura indwara nyinshi kandi mu gihe gitoya ndetse binoroshye. Ni byiza ko nk'ababyeyi dukwiye gusuzumisha abana bacu indwara zo mu kanwa kuko biba bishobora kuba byabagiraho ingaruka no mu gihe bakuze.

Si byiza ko abasheshe akanguhe bafungiranwa mu ngo zabo, ahubwo ni byiza yuko bazanirwa imirimo yoroheje ijyanye n'igihe cy'izabukuru bagezemo, hanyuma iyo mirimo ikabafasha kwiteza imbere bo ubwabo, ikazanira n'umumaro mu gihugu kandi nabo ubwabo bakarushaho gusabana, banizihirwa ubwabo.

Kuba umuntu asheshe akanguhe ntibivuze ko adakwiye gukora siporo, oya ahubwo abo basheshe akanguhe bakwiye kuba bashakirwa siporo zijyanye n'igihe bagezemo, kugira ngo nabo barusheho kugira ubuzima bwiza ndetse n'imikorere y'ubwonko bwabo ikarushaho gutera imbere.

Mu kwita ku basheshe akanguhe na byo ni bimwe mu ndangagaciro Umunyarwanda akwiye kuba afite. Nko kubategurira amafunguro meza, afite isuku, kandi aryoshye, amwe mu mafunguro abafasha gukomeza umubiri wabo, ndetse akarushaho no gutuma bagira imibereho myiza.

Ni byiza ko umuntu asazana akanyamuneza ku maso hiwe. Ni muri urwo rwego abasheshe akanguhe bakwiriye kwegerezwa serivisi zibafasha kugira ngo basazane akanyamuneza ku maso habo. Aho babazanira imirimo itandukanye y'amaboko kugira ngo bayikore kandi banaganirana mu gihe cyabo cy'ubuto. Ibyo bibafasha kuba basaza neza kandi banishimye, bakanishimira Igihugu muri rusange.

Ubuzima bw'abasheshe akanguhe ni nabwo biri mu bintu bikeneye kwitabwaho, binyujijwe mu kubegereza abaganga babugenewe, ababaganiriza ababakoresha siporo z'ingorororamubiri kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza, kuko uba usanga abenshi muri bo ari icyitegererezo ku rubyiruko rw'uyu munsi wa none.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga, birakenewe mu mavuriro atandukanye hirya no hino kugira ngo bibashe no kuba byafasha abaganga binaborohereza mu kwita ku barwayi kandi muri ibyo bikoresho higanjemo bimwe bibafasha mu gukorera amasuku izo nyubako ndetse no kugira ngo zitange icyizere kirambye ku burwayi bw'abarwayi.

Mu bikoresho by'iterambere bikenewe mu mavuriro hirya no hino, hagomba kuba harimo n'umwambaro w'umuganga ukwiye kwita ku barwayi. Kandi ndetse binashobotse abarwayi na bo babonerwa umwambaro ukwiriye w'ikoranabuhanga, ukomeza kubafasha kubarinda izo ndwara zindi zishobora guturuka hirya no hino.

Inyubako z'ubuvuzi zikwiye kubakwa mu buryo bw'iterambere kandi zigakorerwa isuku ihagije kuko umurwayi urwariyemo ndetse n'abaganga babavura bakeneye kugira umwanya uhagije wo kwisanzuriramo ku buryo bitabasha kuba byabateza izindi ndwara za hato na hato.

Amavuriro akwiriye gutegura ahantu hatandukanye ho kwakirira abarwayi, hamwe umuyaga mwiza ugera ku barwayi bitagoranye, rero ni muri urwo rwego amavuriro yose akwiye kuzana ibikoresho by'iterambere cyangwa akubakwa mu buryo bw'iterambere, kugira ngo bibashe kunganira abarwayi babo bakira buri munsi.

Mu gihe cyashize hagiye hagaragara impfu nyinshi z'abana bapfa barimo baravuka. Ni muri urwo rwego hagenda hakorwa ibikorwa byinshi byatuma haza amavuriro menshi kandi meza afite ibyangombwa byose bisabwa, kugira ngo umubyeyi abashe kuba yabyarira ahantu hujuje ibyangombwa, abyara umwana ufite ubuziranenge no muri ubwo buryo, kugira ngo izo mpfu zagiye ziboneka zibashe kuba zagabanuka.

Amavuriro ni bimwe mu bikorwa remezo igihugu kiba gifite kikagaragaza ko kirimo kiranatera imbere, muby'ukuri amavuriro ntabwo agomba kuba ari aho, ahubwo agomba kuba arangwa n'isuku ndetse n'ibikoresho by'iterambere, bimwe bibafasha mu kazi kabo ka buri munsi.

Ni kenshi tubwirwa ko siporo ari ingirakamaro mu mibereho yacu ya buri munsi kandi uko niko kuri koko. Aho uba usanga byibura umuntu abashije gukora siporo mu minota mirongo itatu umuntu yatandukana n'ibibazo bya hato na hato, aho ushobora gusanga umuntu yatandukana n'imivuduko y'amaraso iminaniro, kandi imikorere y'ubwonko bwe uba usanga iri ku rwego ruhanitse bishoboka.

Umuntu ukora siporo hariho ibikoresho by'ingenzi agomba kuba afite. Urugero: inkweto zifunze nziza zimufasha gutuma ibirenge bihumeka, ipantaro, umupira na byo bimurekuye bituma umubiri uhumeka, ingofero. Icupa na ryo ry'amazi rigomba kuba riri aho hafi kuko n'amazi ni ingenzi ku muntu ukora siporo. Iyo akora siporo atakaza amazi menshi kandi aba agomba kuba akenera andi mazi.

Ubuvuzi bwa kijyambere nubwo butemeranya n'ubuvuzi bwa gakondo ariko ni kenshi tubona abantu benshi bashimangira ko ubuvuzi bwa gakondo ari bwo bufite ubudahangarwa kurusha ubuvuzi bwa kijyambere. Ni muri ubwo buryo ubuvuzi bwa gakondo bukwiye gushakira umwanya wabwo aho butegurira imiti yabwo n'aho buvurira abarwayi babwo.

Nyamara n'ubwo ubu buvuzi bw'uo munsi wa none butemeranya n'ubuvuzi bwa gakondo, uba usanga umubare w'abaturage benshi babasha gukoresha ubuvuzi bwa gakondo, bavuga yuko buri ku rwego ruhanitse kandi ubu buvuzi bwa gakondo butabasha kugira ingaruka ku buzima bwabo, ni muri urwo rwego uba usanga abaturage bakomeje kwishingikiriza ku mivurire ya gakondo.

Hari abantu bakizerera bikomeye mu miti ya gakondo kurusha imiti y'ubu ngubu. Ku buryo usanga abantu nta wundi muti ashobora gukoresha uretse imiti ya gakondo. Ni muri urwo rwego usanga hakiriho ibigo bimwe na bimwe bigitanga imiti ya gakondo, kuko hariho abaturage benshi uba usanga bakizerera muri iyo miti ya gakondo.